Umugabo wambaye ikoti ry'igitaka n'umupira mwiza avuye kugura telefoni ya Airte lmagine, inyuma ye hari abandi baturage baje gufata no kugura amatelefone hari n'umutaka wa Airtel.

Abakozi ba Airtel bari kuyamamaza kugira ngo bashishikarize abantu kuyikoreshahara, hari akapaka ko bafite banditseho ngo akira icya cumi, ighe ugura amayinite ukoresheje Airtel Money, ukabona amafaranga kimwe cya cumi cy'ayo waguzi.

Kiyosike ya MTN bacururizamo amayinite ndetse bifasha ubikora kwiteza imbere, yohereza n'amafaranga mu bice by'ibihugu bitandukanye kugira ngo abantu ntibirirwe basiragira bajyana amafaranga kandi bagakwiye kuba bakora indi mirimo.

Umumotari uri kunyura ku mapave ndetse hari n'akazu ka MTN, kohereza amafaranga ndetse bagatanga na mitiyu kugira ngo borohereze abaturage, kubona amafaranga mu buryo bworoshye, batiriwe basiragira.

Umusore wambaye umupira wanditseho MTN w'umuhondo ndetse ari kumwe n'umu mama ari kumufasha kohereza amafaranga. Ayohererereza abandi bantu kugira ngo ntiyirirwe yiruka ayabajyanira. Bifasha abaturage mu kuzigama igihe no gukora indi mirimo byihuse.

Umusore uri mu kazu ka MTN uri gucuruza amayinite ndetse akanohereza amafaranga mu baturage bibafasha kubona amafaranga mu buryo bworoshye badasiragiye ndetse batiriwe birukanka.

Igikombe cyahawe umuntu wakoze neza ndetse bamuhaye na seritifika, bifasha abantu kongera uburyo bakora ndetse no gutanga serivisi nziza kuko baba bazi ko bazahabwa ishimwe mu gihe batanze serivise nziza.

Abagore bari mu cyumba kiza umwe muri bo wambaye itaburiya yanditseho ngo kope kotemurwe akawunga k'iwacu mu ruganda rucuruza kawunga, ndetse ugakora neza ukagaha abaturage kameze neza.

Abaturage babyukiye mu nama y'umutekano hariho Abadasso n'abandi bantu bari kubabwira inama mu buryo bagomba kubaho bakiteza imbere ndetse birinda amakimbirane badashyamirana kugira ngo bateze imbere n'imiryango yabo.

Inzu nini yubatse neza isa n'aho ari iya koperative iteye irangi ry'umweru ndetse irimo n'amadirishya y'ibirahuri n'ibyuma, isakaje amabati atukura, ifasha abaturage kuza kubahahurira ndetse bakungurana ibitekerezo.

Abaturage benshi bahagaze munsi y'inzu, ndetse yubakishije amatafari ahiye, ateye n'irangi ry'umweru ndetse basa naho bishimye bafite icyapa cyanditseho, ara, vi, si, pi, Nyagatare.

Inzu yanditseho ngo milk colection center, ni ahantu bajyana amata mu gihe barangije kuyakama akahatunganyirizwa ndetse bitanga amafaranga ku bantu bayagurishije ndetse bikanatanga n'akazi ku bantu bahakorera.

Imodoka nziza ya MTN yanditseho #Biva MoMotima ndetse ifasha abakozi ba MTN kujya batembera ndetse bakajya no gutanga amafaranga ku bajenti.

Icyapa cyiza cy'umuhondo cyanditseho ijambo Sikoro ni inzoga nyarwanda abaturage banywa ndetse bakanasinda ndetse bakitamo bakumva barishimye cyane.

Inzu nziza irimo intebe nziza zitandukanye, ni nkaho ari muri bare, ahantu abantu baza kunywera inzoga ndetse bakaza kwishimishiriza kugira bumve batekanye, bishimye, wabayeho neza.

Icyumba kiza giteye irange ry'umweru ndetse kirimo n'igishushanyo k'icupa, bigaragara ko banyweramo inzoga, harimo n'ameza meza afite ibara ryiza ry'umukara, hariho n'urupapuro rwiza.

Icyapa kinini cyanditseho ngo "DEMI-SHERATON Boutique Hotel" ndetse bacuruza ibintu bitandukanye, harimo sinakisi, harimo na bare ndetse harimo na jaride, hari n'ibindi byinshi bitandukanye bifasha abaje kuharuhukira kubona ibyo kurya ndetse na serivisi nziza zitandukanye.

Inyubako nziza n'icyumba cyiza giteye irangi ry'umweru, kirimo intebe nziza zisa neza ndetse harimo na meza afasha abakiriya mu kwicara mu gihe baje kunywa ndetse bigafasha na nyiri bare kwiteza imbere.

Inzu nziza irimo ibyo kunywa bitandukanye, harimo inzoga z'amoko menshi ndetse iteye n'irangi ry'umweru, hariho n'utubati twiza duteye irangi ritukura, bifasha umucuruzi kubona uko ahereza abakiriya ibyo kunywa.

Umumama wambaye umwambaro w'akazi utukura ndetse ari muri boutike acuruza ibintu bitandukanye harimo ifu ndetse harimo n'ibindi bintu byo kurya, bimufasha kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we.

Ahantu handitse ijambo brazili bigaragara ko bacuruza udukingirizo ndetse bifasha abantu mu kwirinda SIDA n'izindi ndwara zandurira mu mibonanompuzabitsina kugira ngo twirinde tutazandura.

Iduka ririmo umumama uri gucuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'ibitunguru, intoryi, inyanya, amavuta yo kurya, ndetse bimufasha kwiteza imbere, no guteza imbere umuryango we.

Inzu icuruza ibintu bitandukanye harimo: ibisokozo twifashisha dusokoza umusatsi, hakabamo amakaramu, hakabamo korogati, umunyu n'ibindi bidufasha kurya ndetse tukabona aho duhahira hafi byoroshye.

Akabati k'umweru kari mu nzu irimo amarido meza gafasha abaturage mu gushyiramo ibikombe, amasafuriya ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo kugira ngo bitandura kugira ngo bimere neza bibikwe neza.

Imifuka y'ibirayi ifite amabara atandukanye. n'ibihingwa bifasha abaturage kwiteza imbere ndetse baranabirya kandi bakiteza imbere, bagateza imbere n'imiryango yabo, bakabona n'amafaranga yo guha abana babo bagiye ku ishuri.

Umugore uri muri butike icuruza ibintu byinshi bitandukanye. Harimo: isukari, umunyu, imakasi ndetse icuruza n'amabuye ya radiyo. Imufasha kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibisashi birimo ibintu bitandukanye ndetse ikaba itanga serivisi yo gucuruza nk'amagi, ibirayi, ibishyimbo, ibigori by'ifu ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo amasupaguru, bacururizamo umuceri, bacururizamo kawunga ndetse bacuruzamo n'ibindi bintu bitandukanye harimo amakorogati, bifasha abantu mu guhahira hafi ndetse bifasha n'umucuruzi mu kwiteza imbere.

Abaturage babyutse mu gitondo baje mu misa gusenga baje kwiyambaza imana kugira ngo izabafashe bahirwe mu mirimo yabo ya buri munsi kandi bituma bumva bahumuriwe ndetse na bo bakabana amahoro.

Inzu nziza isa n'aho ari urusengero yubakishije amatafarihiye harimo n'inzugi z'umweru ndetse ifite n'agasongero karekare kariho umusaraba ifasha abaturage mu gusengeramo bakumvabunze ubumwe ndetse bameze neza.

Umugabo usa n'aho ari musenyeri witeye furari y'umukara, wambaye n'umwenda w'umutuku hamwe n'umweru, ari imbere yinzu ndetse ifite ibara ry'umweru, isakaje n'amabati y'umweru.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'umutuku. Igaragara nkaho ari urusengero abantu bajya gusengeramo kugira ngo biyambaze Imana ijye ibafasha mu mirimo yabo ya buri munsi kugira ngo babane n'abandi amahoro.

Umusore uri mu kazi ko kwandurura ibikoresho biri ku meza hariho amarido meza y'umweru ndetse bimufasha kwinjiza amafaranga kuko akora muri hoteri bikamubeshaho ndetse bikabeshaho n'umuryango we.

Inzu nziza iteye irangi ry'umweru ndetse irimo n'amadirisha y'ibirahure, isakaje amabati atukura, iriho n'imirasire ndetse hanze haparitse n'amamodoka meza, imirasire ikaba ifasha abantu kubona umuriro.

Icyumba cyiza kirimo intebe nziza n'imisego myiza nigitanda cyiza, ndetse giteye irangi ry'umweru, kirimo amarido y'umukara n'umweru, gifasha umuntu waje kuharuhukira kuruhuka neza ameze neza.

Icyumba cyiza kirimo ibyo kunywa harimo nka ji ndetse ni muri hoteri hasa neza hateye irangi ry'umweru bifasha ba nyir'amahoteri kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo ndetse bigatanga n'akazi ku baturage.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza ufasha abaturage mu gutwara ibintu n'abantu, ku ruhande rwawo hubatseho inzu nziza igeretse kabiri, iteye irange ry'umweru, isakaje amabati y'umukara ndetse ni nziza imeze neza.

Icyumba cyiza kirimo inzoga ndetse hejuru gisa umuhondo ndetse gifite n'ameza meza, aho abantu batekareka inzoga mugihe bari kunywa kandi bigafasha abakiriya kumva banezerewe bishimye.

Inyubako ndende igeretse ndetse yubakitse neza, iteye irangi ry'umuhondo, irimo n'inzigi n'amadirishya ndetse iri no ku muhanda, aha ni nka hotel ifasha abantu kuza kuruhukiramo.

Intebe ziri hafi y'umucaca begereye pisine aho abantu bogera mu gihe bagiye kuruhukira mu mahoteli, ndetse hinjiriza amafaranga ababikora, ndetse n'ababikoresha bituma baruhuka.

Inzu nini cyane isa n'aho ari hoteli iriho na pisine nziza, iteye irangi ry'umweru, igeretse nk'inshuro ebyiri ndetse iteye amabengeza, ifasha abantu kuza kuruhuka ndetse yinjiriza amafaranga abantu, igatanga n'akazi ku baturage.

Inyubako igeretse kabiri iteye irangi ry'umweru ndetse ni nk'aho ari hoteli aho abantu baza gufatira ifunguro cyangwa se bakaza no kuharuhukira mu gihe bavuye mu kazi kabo ka buri munsi.

Icyumba cyiza, kirimo igitanda cyiza ndetse kiriho n'amashuka asa neza, giteye irangi ry'mweru, kirimomo amatara meza bifasha umuntu waje kuharuhukira kumva ameze neza ndetse akaryama neza.

Pasiparumu nziza yegereye na pisine, ifasha abantu bagiye kuruhukira mu mahoteri kugira ngo baruhuke neza, bogamo ndetse kugira ngo babone uko bakomeza akazi k'ejo hazaza.

Isoko rinini cyane ririmo abaturage baje guhaha ndetse n'abaje gucuruza ibicuruzwa: ibirayi, ibishyimbo, ibigori, imyumbati, amajeri ndetse n'ibindi.

Udukoresho dukozwe mu biti, dufasha abaturage nko gukora imirimo yawe ya buri munsi, harimo nk'utuyungurura ndetse hariho n'utwuko bakoresha bakora umutsima, ubugari ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ndetse bikoze mu biti.

Imyambaro ihanitse, ku bintu ni nko mu isoko aho abaturage baba baje, gucururiza bibafasha kwiteza imbere, no guteza imbere imiryango yabo, ndetse n'abakeneye ibyo guhaha bakabona uburyo babihaha, byoroshye.

Abamama bambaye neza bambaye ibitenge, inyuma yabo hakaba hariho iduka ryiza ricuruza ibintu bitandukanye, harimo: inyanya, intoryi ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha mu rugo, bifasha umucuruzi kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we.

Isoko rinini cyane ririmo abamama, abana batoya n'abagabo, ricuruza imbuto zitandukanye harimo karoti, amaronji, inyanya, pavuro ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye nk'inanasi.

Intama iziritse mu bwatsi bwiza ndetse ifasha ba nyirayo kwiteza imbere, ibaha amafaranga binyuze mu kuyigurisha cyangwa se bakayibonaho amafaranga binyuze ifumbire.

Abagore n'abagabo n'abasore n'abakobwa, bari mu isoko harimo n'umugore witandiye baje gucuruza abandi baje guhaha kugira ngo babone ibyo barya, ndetse bibafashe kwiteza imbere no guhahira hasi.

Abaturage benshi bari kwanika ibigori, hariho n'umuntu usa naho ari umunyamakuru ari kubabaza uburyo ibigori bibateza imbere ndetse bibafasha mu kwiteza imbere, kandi nabo bari kumubwira ibyo bazi ibyo bigori bibamariye.

Abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa bari mu isoko rinini, bacururizamo ibintu byinshi bitandukanye, bacururizamo amandazi, ibirayi, ibishyimbo, ibigori ndetse n'isabune n'ibindi byinshi.

Inzu nziza yubatse neza irimo amatara abengerana, irimo ameza, intebe ndetse n'ibindi bikoresho, ifasha abantu baje kuharira kuba batekanye bicaye batuje ndetse bakanahishimira.

Icyumba kiza gisa n'aho ari muri resitora, aho abantu baza gufatira amafunguro mu gihe bavuye mu kazi kabo kugira ngo bibafashe mu gusubirayo byihuse, batavunitse ndetse bitabagoye, kandi bikabafasha kutica akazi.

Kaburimbo nziza arimo umumotari utwaye umugenzi ndetse hafi aho ngaho hari n'inzu z'ubucuruzi zifasha abantu gucuruza bakihangira imirimo ndetse bakabona n'ibibatunga ndetse bigafasha n'abantu bahahahira kubona ibyo bahaha hafi.

Abasore b'abanyonzi b'amagare baba baje gushaka amafaranga, batwara abaturage babavana ahantu hamwe, babajyana ahandi, hirya yabo hari n'abandi bakozi ba MTN batanga amayinite ndetse bohereza n'amafaranga.

Kaburimbo urimo umumotari utwaye umugenzi, ifasha abantu mu gutwara ibintu n'abantu kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo, binjirize amafaranga muri uyu muhanda ndetse babone nuko babaho.

Umugabo utwaye igare ndetse ahetseho imyaka inyuma, hariho na moto ndetse bari kunyura muri kaburimbo, nziza ku mpande hari inzu yubatse neza ifasha abantu mu gucuruza bakiteza imbere.

Kaburimbo nziza irimo ibice bibiri ikizamuka n'ikimanuka, irimo umumotari utwaye umugenzi umwe ndetse yegereye umurima mwiza, ubereye guhingamo kandi wakweramo imyaka umuntu akiteza imbere.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza uri kunyura mu modoka, ufasha abaturage kwiteza imbere gutwara ibintu n’abantu, ndetse inyuma yaho hariyo n'ibiti byiza bisa neza bitanga umwuka mwiza ndetse umuntu akaba yakwicira mu gihe ushaka kuruhuka..

Umumotari utwaye moto wambaye na kasike itukura, hirya ye hari umupolisi uri mu kazi ko gucunga umutekano ndetse no hirya ndi kubonaho akazu ka Emutiyeni gacuruza amayinite n'umutaka ndetse hari n'amazu y'ubucuruzi.